Icyumba cyahuriyemo abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore biragaragara ko baje mu mahugurwa yo gukora ibijyanye n'ubuvuzi. Bashobora kuba ari abajyanama b'ubuzima.

Amazi meza ni ingenzi kuko ari yo soko y'ubuzima. Ni ku ishuri ribanza, abana bakaba baje bose kunywa ku mazi kuko barangije gukina, mu gihe bagiye gusubira mu ishuri.

Umubyeyi uvuye kuvoma yikoreye injerekani y'umuhondo ipfundikijwe umufuniko w'umutuku ndetse hariho n'ishashi ituma amazi atabasha gusohokamo, hari akana kambaye umwenda w'ubururu kari iruhande.

Kwa muganga barasanasana iminsi ikicuma baratuvura ubundi tukaramba, hakaba hari abaganga babiri bari kwita ku kana gato kararembye, umubyeyi wako yicaye iruhande afite ubwoba.

Ikoraniro ry'abantu benshi, bari bari mu nama none barayisoje, bigaragara ko ari amahugurwa yahuje abaganga ku rwego rw'igihugu, nyuma yo gusoza inama rero baba bagomba gufata ifoto y'urwibutso.

Itsinda ry'abaganga batatu bafite udukarito muntoki ,bambaye imyambaro yabugenewe, iyo bari mu kazi bagomba kuba bambaye ,udupfukamunwa ndetse n'utunozasuku ku mutwe.

Ku kigo cy'amashuri abanza, hari ivomo abana baza gukarabiraho intoki, abenshi bamaze koga bari kwerekana ibiganza byabo, bambaye impuzankano ya kaki.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, bakaba baje kwiga ku bijyanye n'ubuzima, ku meza yabo hateretse uducupa tugezweho tw'ibirahure, tujyamo amazi yo kunywa.

Abantu benshi bateranye, bicaye ahantu mu mbuga, bakaba bari mu birori. Umugabo ari gusuhuzanya n'akana ubona ko bishimye kandi bameze neza.

Imirimo y'amaboko nk'iyi ngiyi ivunanye, ubusanzwe tuzi ko ikorwa n'abagabo ariko kuko ubu ngubu ari uburinganire, imirimo nayo isigaye ikorwa n'ab'igitsina gore.

Inama irashoje maze abayitabiriye baraza bamwe bicara ku ntebe abandi barahagarara mu rwego rwo kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso kugira ngo bazazirikane ibihe nk'ibingibi.

Mu bice by'icyaro mu rwego rwo kugira ngo bagire amazi meza, hari gahunda Leta yagiye ishyiraho mu kubahereza amavomo yifashishwa mu gukura amazi munsi y'ubutaka akaza ari meza abaturage bakayakoresha.

Abana babiri bicaye mu ishuri ari bonyine bari kumwenyura umwe yambaye agapira k'imbeho k'icyatsi, akaba yateye agatoki inyuma yabo hari ikibaho bigiraho.

Umwana w'igitambambuga, yambaye agakanzu gakozwe mu gitenge, imisatsi ye ikaba irimo utuderede, afite igicupa, akaba ari kumena amazi mu ntoki ze.

Umwana wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ikabutura y'ubururu, ari guseka afite ibikombe bibiri mu ntoki, kimwe kirimo amazi mabi ikindi kirimo ameza.

Abana batoya bari mu kigero kimwe bakaba bafatanye ku rutugu, bose bambaye imipira y'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku burenganzira bw'abana.

Umukobwa mwiza w'inzobe akaba n'umuganga w'inzobere, ari kwita ku mwana afite agapimo ashyira mu matwi ubundi agakoza ku mutima akumva uko utera, umubyeyi waje kuvuza ari kumwitegereza.

Abana babiri umwe arunamye afite isabune mu ntoki ari gukaraba, hakaba hari indobo y'ubururu, mugenzi we afite akabinika ari kugenda amusukira amazi kugira ngo asukure intoki ze.

Akana gato k'agakobwa kambaye akajipo k'igitenge n'agashati kari ku ivomo, kari gukaraba kishimye uyu ni umuco mwiza dutoza abana, kugira ngo bajye bakura bafite isuku.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bazindutse, baje kwiga ku iterambere ry'igihugu ndetse no muri rusange n'ubuzima bw'abagituye, hari umudamu uhagaze hagati wambaye agakoti k'umukara n'ikanzu y'umweru.

Ababyeyi batandukanye bambaye impuzankano isa, bamwe bafite abana abandi ntabo bafite. Bahagaze mu mbuga y'inyubako, barasutamye abandi barahagaze, icyo bahuriyeho nuko bari kumwenyura.

Ikirango kiri mu mabara y'ubururu, kikaba gifite udushami mu mpande ku muzenguruko. Mo hagati hari inzoka yizingiye ku giti. Kikaba ari icy'umuryango mpuzamahanga ariko wita ku buzima.

Igice cy'icyaro hari umusozi uri hakurya uriho ibiti, ndetse n'imbuga yitaruye. Hari inzu yubakishije amatafari ariko isakaje ibyatsi. Abakobwa babiri umwe ari gukorera undi indobo.

Icyumba kiri kuberamo amahugurwa, yahuje abajyanama b'ubuzima bose bo mu kagari, ndetse no mu mirenge igiye itandukanye, hagati harimo umuganga uri kubaha amahugurwa.

Icyapa cy'umweru kinini kikaba cyamamaza ibijyanye n'amajyaruguru yo muri Carolina, aha ni mu gihugu cy'Amerika bakaba bavuga ko bakora ubuvuzi buri ku rwego ruhambaye.

Isuku ni isoko y'ubuzima uyu ni umuco tugomba gutoza ababyiruka, bakawukurana ndetse bakazawu abazabakomokaho. Kuko ahatari isuku burya ntabwo haba hari ubuzima.

Abaturage begerejwe amazi barabyishimira kuko byabarushyaga bikanatuma barwaragurika kubera ko amavomo yabaga kure bigatuma bavoma amazi mabi yabaga abegereye, ubu ngubu cyarakemutse.

Ikirango kirimo amabara atatu ariko ubona ko asa neza, hari rimwe ryigonze nk'umukororombya, hakaba hari umukara mwinshi ndetse n'umweru n'umutuku werurutse.

Ni ahantu hatangirwa serivise zitandukanye, hari ameza y'umweru ateretseho mudasobwa, umugabo wambaye agapfukamunwa, afite urupapuro mu ntoki, bigaragara ko ari kurusomera aba bahagaze, baje gushaka serivise.

Ni abantu b'ingeri zitandukanye, bicaye mu rubaraza rw'inzu, abenshi muri bo ni abadamu ndetse bambaye udupfukamunwa. Hari umwe uhagaze, wambaye umupira utukura ndetse n'ingofero.

Abantu benshi batandukanye bari ahantu hamwe, bakaba bishimye cyane, bamanitse ibipapuro, bakaba ari abana batoya bambaye impuzankano ziganjemo iz'umweru, hari n'umugabo uri iruhande rwabo.

Abasore n'inkumi bahagaze imbere y'inzu bose barishimye hari umukobwa ufashe mu mifuka wambaye ishati y'icyatsi, hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru.

Umwana muto w'umukobwa uri guseka akaba ari ahantu hari ivomero ryo mu giturage, iruhande rwe hari injerekani y'ubururu n'izindi ebyiri z'umuhondo akaba yaje kuvoma.

Ikinya gitunganyirizwamo amazi mbere yuko yoherezwa mu ngo z'abaturage, hari ahantu abanza guca hagakurwamo imyanda, agatunganywa ubundi yamara kuba meza bakayohereza mu baturage.

Abaturage badafite amazi meza, baba ari nta buzima bafite, aha ni mu gishanga, hari umubyeyi wazanye ijerekani ayidubika mu mazi mabi, biragaragara ko bizamugiraho ingaruka.

Abaturage batandukanye baje ku ivomero rusange, barishimye kuko Leta y'u Rwanda yabegereje amazi meza hafi, ibi ni bimwe mu byo Leta yimakaje kugeza amazi kuri buri muturage wese.

Abantu benshi bicaye mu nama urabona ko inzu bicayemo bayuzuye ndetse baracucitse, aba bakunze kuba ari abajyanama b'ubuzima baje mu mahugurwa bijyanye n'imyambaro abenshi bambaye.

Ikoraniro ry'abantu bicaye mu buryo bw'uruziga. Ku meza, hari igitambaro cy'icyatsi ndetse n'umweru, abenshi bafite uturahure bari kunyweramo amazi. Harimo abagabo bambaye amakoti y'amabara atandukanye.

Abaganga batandukanye, barimo abagore ndetse n'abagabo. Bamwe bambaye impuzankano yabo, abandi ntayobambaye, inyuma yabo hari inyubako y'ubururu, ikaba ariho icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima.

Icyumba kiri kuberamo inama, yitabiriwe n'abagabo ndetse n'abagore, buri wese imbere ye ku meza hateretse mudasobwa ndetse hari n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abajyanama b'ubuzima basoje amahugurwa, none birabanejeje. Biratuma baririmba bakanabyina. Imbere yabo hari umuzungu, wabahuguraga wambaye ikoti ry'umukara.

Ababyeyi baje gukingiza bazindukanye n'abana babo bose iyo umaze kubyara ugirwa inama yo kujya usubira kwa muganga ufata urukingo rw'umwana kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Abajyanama b'ubuzima ni kenshi cyane byagiye bigaragara ko ari abantu b'ingenzi muri iki gihugu cy'u Rwanda iyo urembye uri mu mudugudu mbere yo kujya ku kigo nderabuzima ushobora kujyayo bakagusuzuma basanga ari indwara yoroheje bakaguha umuti.

Ivomo rusange ryashyiriweho abaturage. Kugira ngo bajye bavoma amazi meza. Hari abana bato baje kuvoma ndetse abandi barahagaze, bari kureba uko umwana apompa amazi.

Icyumba kiri kuberamo inama abantu bicaye mu buryo bw'amatsinda ku muzenguruko, ku meza hagiye hariho ibitambaro by'umukara ndetse n'uducupa tw'amazi, buri wese ari kureba imbere ye.

Abakangurambaga ni ngombwa mu buzima kuko badufasha mbere y'uko turemba. Umugabo yazanye n'umudamu we utwite kugira ngo umujyanama w'ubuzima abasobanurire uko bihagaze.

Ahantu hari gukorerwa ubukangurambaga butandukanye, hari umubyeyi wambaye ijire y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu uri kugenda atanga impapuro, bigaragara ko hari ibintu biriho ari gushishikariza abantu.

Umuganga akaba ari gusuzuma akana kazanywe n'umudamu, aho karwaye ubona ko kari gushinyiriza. Ni ngombwa ko iyo umwana arwaye duhita tumwihutana tukamugeza ku bitaro kugira ngo ataremba.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo abirabura ndetse n'abazungu, abagore n'abagabo bari mu byiciro bitandukanye, bamwe bambaye imipira y'umweru abandi bambaye iy'ubururu.

Umwana mutoya ari kuvoma amazi mu kigega gishinzwe kuyabika, afite agakombe, yambaye impuzankano y'ishuri, akaba ari kuyavoma kugira ngo ayanywe.

Umuganga ari kuvura umwana mutoya, urabona ko akana kari kubabara kuko kari kurira, mama wako aragakikiye, ari kukitegereza bari kugapfuka ku mutwe.

Umuryango w'abibumbye, ishami rishinzwe kurengera abana UNICEF, iri shami ryashyizweho nyuma yo kugaragara ko uburenganzira bw'abana buhonyorwa kugira ngo ize ibashe guhashya icyo kibazo.

Abaturage babyutse baje kwaka serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi. Hakaba hari umukobwa wicaye ari kureba muri mudasobwa iteretse ku meza y'urubaho n'undi uhagaze uri kwakirwa.

Abantu bicaye mu ibaraza ry'inzu, bigaragara ko harimo umujyanama w'ubuzima uri gukora ubukangurambaga, hari umudamu wambaye ipantaro y'umukara ukikiye akana k'agahinja.

Abaturage biganjemo ab'igitsina gore bicaye mu ibaraza ry'inyubako igaragara ko ari ku bitaro bose bazindutse baje kwivuza buri umwe afite urupapuro mu ntoki.

Umwana mutoya wambaye impuzankano y'ishuri, avuye mu bwiherero buri inyuma ye, bwubakishije amatafari ahiye, imbere yabwo hari kandagira ukarabe, abanje koga mu ntoki.

Mu bice by'icyaro uzahasanga ivomo rimeze gutya, aho riba rifite umupompo ushobora gukura amazi mu butaka. Ni mu rwego rwo kugira ngo abaturage na bo babone amazi meza.

Umubyeyi ufite umwana mu ntoki, akaba anafite igipapuro amuvurizaho, aramuteruye, inyuma ye hari n'abandi benshi bigaragara ko baje kwaka serivise z'ubuvuzi.

Umuramyi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana yitwa Israel Mbonyi, akaba yasuye imbabare ziri kwa muganga akagenda aziha ubufasha butandukanye.

Abayobozi mu nzego zitandukanye, bateranye bakora inama maze bigira hamwe ingingo nyinshi zitandukanye ariko inkuru muri zo, ni uburyo ki umuvuduko w'iterambere ry'u Rwanda urushaho kwihuta.

Ibikamyo biri ku murongo bitondetse, bikaba biri kuva mu gihugu kimwe, byinjira mu kindi, byometseho ibirango by'umuryango mpuzamahanga wita ku mbabare, bishobora kuba bijyanye ibiribwa mu nkambi.

Ivomo ryo mu giturage rizwi nk'umupompo rikaba ririho abagore batatu, bamwe babiri bari kugenda bamanura icyuma bakizamura ariko bakura amazi mu butaka, undi ateze indobo.

Abajyanama b'ubuzima batandukanye, bakaba barangije amahugurwa yabo, aho bahuguwe n'abaganga b'inzobere ndetse n'abaturutse i Bwotamasimbi na bo bakaba bari bahari.

Icyanya kinini cyahariwe gutunganya amazi, ubundi agasakazwa hirya no hino mu gihugu, ushobora kuba utazi uburyo amazi akugeraho ariko aba yaciye mu nzira zimeze nka gutya.

Urutara agakoresho ko mu bice by'icyaro iyo bamaze gukora isuku ibikoresho byo mu gikoni babishyiraho kugira ngo bite amazi. Ni uburyo bwahozeho ndetse n'ubu buracyakoreshwa.

Icyumba kiri kuberamo inama yitabiriwe ahanini n'urubyiruko rwiganjemo abakobwa. Bose bambaye udupfukamunwa, bakaba bicaye ku ntebe z'imituku, ameza azengurutse, ariho igitambaro cy'umweru.

Umujyanama w'ubuzima ari gusuzuma umwana mutoya, wambaye akagofero ndetse na rakosite y'umweru iciyemo uturongo tw'icyatsi, afite ikayi mu ntoki n'ikaramu, ari kugenda yandika ibimenyetso byose abona.

Dutoze abana bato umuco wo gukaraba intoki kuko igiti kigororwa kikiri gitoya. Abana iyo badatojwe kare gukora isuku ku mubiri wabo, barabikurana bikazabokama.

Umubyeyi yazanye umwana kwa muganga kugira ngo bamusuzume bamenye ikibazo afite, abaganga rero nk'aba baboneka hake, urabona ko uyu yabakiriye ari kumwenyura, ubona ko ari kubaha serivisi neza.

Abagore b'abajyanama b'ubuzima bakaba basoje amahugurwa, barahagaze hari uwo ku ruhande wambaye agakote k'umukara n'ikanzu itukura, abenshi muri bo bakenyeye ibitenge.

Umukobwa wishimye aricaye ari kuvoma amazi, akaba afite ijerekani y'umuhondo, yayiteretse mu ibase, inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda.

Umukecuru ugeze mu zabukuru yaje kuvoma, arishimira ko nubwo ari mu giturage ariko Leta y'u Rwanda yamaze kubagezaho amazi meza kuko ari isoko y'ubuzima.

Abana bashotse mu gishanga bagiye kuvomayo amazi, aya ntabwo ari meza, kuko ashobora kugira ingaruka ku buzima bw'uyakoresha, cyane cyane ubaye uyanyweye cyangwa ukayatekesha.

Umujyanama w'ubuzima wambaye agapfukamunwa, amadarubindi ndetse akaba yambaye n'akajire k'umuhondo, afite igipimo agiye gukoza ku mubyeyi ufite akana, akaba hari ahantu aje kwaka serivisi.

Ivomo ryo mu cyaro risaba gupompa amazi uyakura mu butaka uyazamura ajya hejuru. Hari utwana tubiri twaje kuvoma kamwe k'agahungu karimo karapomba, akandi k'agakobwa gateze akabuni.

Mu bice by'icyaro ntabwo ari ko buri muntu wese aba afite amazi iwe mu rugo, niyo mpamvu usanga abaturage bafata urugendo bakajya kuvoma, ariko bashyiriweho amavomo abaha amazi meza.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri akaba ari kuri kandagirarukarabe aho ari gusukura intoki ze. Ibingibi ni byiza cyane kuko birinda indwara zandura zitewe no kugira umwanda.

Abakobwa ndetse n'abasore batandukanye bambaye imyenda yiganjemo iy'ubururu. Icyo bahuriyeho ni uko bari kumwenyura bakorera umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana unicef.

Ku kigo nderabuzima hari abaganga bicaye bari kugenda bafata amafishi y'abarwayi, bakayacishamo amaso kugira ngo baze kubavura, hakurikijwe uko bagiye baza ku murongo, hirya hari undi uri kubitegereza.

Abantu batandukanye baje kwita ku bana, bari kubaha amata mu byansi, abana urabona ko bari kuyanywa bishimye . Ni byiza ko ibigo birimo abana tubisura tukabafasha.

Ikiganiro mbwirwaruhame kiri kubera mu cyumba cy'inama, kiriho ibitambaro by'ubururu biri ku nkuta, hari abandi bantu bicaye, umugabo ufite mudasobwa, amacupa y'amazi ateretse ku meza.

Ivomo rusange riri ahantu mu giturage, hari abana b'abanyeshuri bari gutambuka impande yaryo, ariko ubu hari akana gato gateze akabido kari kuvoma amazi, hari mugenzi wako uri ku kavomera.

Itsinda ry'abaganga bahagaze hanze y'ibitaro bakaba hari amahugurwa bari barimo none barayasoje, iyo rero arangiye bahagarara hanze y'inyubako bakaganira bagafata n'ifoto y'urwibutso.

Ahantu hakoraniye abantu benshi bari gukora ubushakashatsi bujyanye no gupima uburebure bw'umwana w'uruhinja, higanjemo abagore, abagabo, abirabura ndetse n'abazungu.

Umuganga w'umudamu ari guha akana umuti. Ntago bikunze ko umwana yakwemerera kunywa umuti, bigusaba gukoresha izindi mbaraga z'umurengera.

Umuganga wambaye itaburiya yabugenewe ndetse n'uturindantoki, akaba ari gukora ubuvuzi bwegereye abaturage, hari umukecuru wicaye imbere ye ndetse hari n'undi uri guhabwa ubuvuzi.

Umukobwa mwiza akaba afite umusatsi karemano, ari kumwenyura yambaye agashati k'umutuku ndetse n'umupira w'ubururu bwijimye, inyuma ye hari umuryango ufunguye igice kimwe.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku burwayi bwo mu mutwe wabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'agatatu ni ngombwa ko abantu bagize uburwayi nk'ubu tubegera tukabahumuriza.

Icyumba kiberamo inama cyicayemo ihuriro ry'abantu benshi. Bakaba bitabiriye, hari umugore uhagaze imbere yabo, ariwe uri kubagezaho amahugurwa bose baje kwitabira.

Nyakubahwa madame Jeannette Kagame akaba umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mw’ijambo yagezaga ku bari bitabiriye iyi nama ahagaruka ku buzima bwo mu mutwe.

Iyo umuntu afite ikibazo yaba icy'imitekerereze cyangwa icy'ubuzima busanzwe ni ngombwa ko abamwegereye tuba dukwiye kumuba hafi, kuko bitagenze bityo bishobora kumuviramo uburwayi bwo mu mutwe.

Ikoraniro ry'abantu benshi bari mu cyumba cyabereyemo inama cyangwa ibirori, haragaragara abadamu babiri bari imbere yabo, bombi bafite indangururamajwi bigaragara ko hari umukino bari gutambutsa.

Umujyanama w'ubuzima nyuma y'uko umubyeyi ufite umwana warwaye aje amugana arangije kumusuzuma iki n’igipimo cyifashishwa mu gusuzuma indwara ya malariya akaba ari kumwereka ibisubizo.

Umubyeyi ubona ko nta mikoro menshi afite, atetse agakoma, ari kugakoroga, ari kumwe n'abana be, bakaba ategereje ko gashya ubundi akabaha bakanywa, umwe aramuhetse, undi ahagaze iruhande rwe.

Abagabo ndetse n'abagore barahagaze bose ku murongo, ku meza hariho ibitambaro by'umukara hateretseho mudasobwa ndetse n'igipirizo cy'umutuku, bakaba bari mu ihema.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, ari kumwe n'abuzukuru be bakaba baje kumuganiriza, ni ngombwa ko abana batoya begera abakuze kuko hari byinshi baba bakeneye kumenya, bakabacira imigani, ibisakuzo n'ibindi.

Umugabo wambaye ishati nziza iyi akaba ari imyambaro ikorerwa hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda arareba imbere ye ari kumwenyura inyuma ye hari abandi bantu benshi batari kugaragara neza.

Umudamu ufite imisatsi isetse igana inyuma, yambaye agashati k'umukara ndetse n'agapira k'umweru mo imbere. Akaba yasize umunwa ye uturongo tw'umutuku.

Umuntu uzajya ubona yihebye, ujye umwegera umubwire akuganirize kuko bimuruhura umutima. Iyo bigenze bityo ntabone umuganiriza, bishobora kumuviramo ubundi burwayi.

Igikuta kiriho imitako myinshi iteretse ku kantu k'akabaho, munsi yacyo hari umugabo washobewe ufite amaboko yose akaba yayashyize ku maso, yambaye umupira w'umukara urabona ko ari kwibaza byinshi.

Umupira mwiza cyane uri mu mabara y'umweru n'ubururu, ahagana mu mugongo wayo handitseho amagambo atandukanye, amaboko yawo ndetse n'ikora n'ibyo bifite ibara ry'ubururu.

Umubyeyi wo mu cyaro yicaye mu mbuga, akikiye akana kamwe akandi kari iruhande rwe, imbere ye hari inkoko iriho mironko ikaba irimo ibishyimbo.

Abantu benshi bahagaze, bari kumwenyura baragaragara akanyamuneza ku isura, hari umukobwa cyangwa se umudamu wambaye ijipo y'umukara, afite telefone y'ubururu mu ntoki, umugabo wambaye ikote ridasa.

Abantu benshi bicaye hamwe, bari ku ntebe itambitse y'urubaho, abandi barahagaze, hagati muri bo harimo umuzungu, wambaye imyenda y'umukara, akaba yicaranye n'abandi bantu.

Umuzungu ufite ubwanwa n'uruhara arahagaze, akaba yambaye ipantaro ya kaki isaha ku kuboko, ishati y'amaboko magufi ahetse igikapu.

Umugabo warangaye wambaye umupira w'umukara, yariyogoshesheje agasatsi kose amararaho, yicaranye n'umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, biragaragara ko hari ikiganiro ari gutanga.

Abantu benshi bamwe barasutamye abandi barahagaze biganjemo abasore b'inkorokoro inkumi ndetse n'abadamu, bose bari kumwenyura ndetse barareba imbere yabo bakaba bari mu cyumba gifite irangi ry'umweru.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru ari kumwenyura akaba ari kureba imbere ye, akenyeye igitenge kirimo amabara atandukanye umuhondo, icyatsi ndetse n'umukara.

Ikinyabiziga kinini cyifashishwa mu gukorwa ubuvuzi bugendanwa, kikaba kigeze mu Karere ka Bugesera, aho kigiye gutangiriza ibikorwa byacyo by'ubuvuzi ku mugaragaro, gihagaze mu mbuga.

Icyumba kiberamo inama, hakaba harimo abiganjemo ab'igitsina gore, hari ameza ariho abantu bicaye ku ntebe batatu, imbere yabo hari amazi yo kunywa, uhagaze imbere yabo afite indangururamajwi.

Umudamu wambaye umwenda w'umukara akaba ateze n'igitambaro mu mutwe cy'umukara ari kureba imbere ye nubwo yambaye agapfukamunwa ariko biragaragara ko ari kumwenyura.

Ikigo cy'igihugu cyigisha ibintu bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe, kikaba kiri gukangurira abantu bose ko ugaragariweho n'iyo ndwara, agomba kwihutira kubagana kugira ngo bamufashe.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru ndetse n'amadarubindi, isura ye ntabwo igaragara neza, uruhande rumwe ruriho ibendera ry'igihugu, urundi ruriho iry'umuryango mpuzamahanga wita ku bana.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bujyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza ko abantu bagiye bahura n'ikibazo cy'ihungabana, ababegereye babahumuriza kugira ngo barusheho gukira.

Umubyeyi uri kugaragaza ikarita yiwe, iriho akamenyetso kagaragaza ko ari ijyanye n'ibyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, yambaye umwenda w'umuhondo n'ubururu.

Ibiganza bifashe ku kintu cy'uruziga, hakaba hari umuntu uri kugaragara ndetse n'amagambo yanditse ngo "wihogora", hagati muri yo hari umutwe w'uwo muntu.

Icyumba kiri kuberamo inama yitabiriwe n'ab'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Ibitambaro biri ku meza bigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'ubururu. Hari umudamu wambaye umwenda w'umukara n'umweru urimo hagati.

Hari ahantu hashobora kuba hafungirwa abantu mu buryo butemewe ndetse buba butanazwi. Uyu mugabo arababaye, urabona ko aboshye amaguru, yakenyeye igitenge kandi ari umuntu w'umugabo, ashobora kuba ari mu nzu y'imbohe.

Icyumba kiri gukorerwamo ubuvuzi, ahanini bwiganjemo ubw'amenyo, hari abaganga bari kwasamura abantu, ubundi bakareba mu kanwa kabo, kugira ngo bamenye nimba hari ikibazo bafite.

Abana bato ni ngombwa ko bitoza isuku kuko ari isoko y'ubuzima. Aba bajyambere, bari kumwenyura buri umwe afite uburoso ari kwiborusa bigaragara ko ari ryo somo babyukiyemo.

Inyubako ndende yubakishije igice kimwe ibirahure, ahandi hakaba hagiye hari ibimeze nk'amakaro, urugori rwayo rurasa icyatsi, iriho utwuma hejuru dushinzwe gutangira abantu ngo batagwa.

Umusore usutse utudirede, akaba ari kumwenyura, yambaye agapira k'umweru, akaba ari kwireba mu kirahure. Mu ntoki ze afite akadodo, akaba agiye kugashyira mu menyo yiwe.

Icyumba kirimo ibyuma kabuhariwe byifashishwa mu gukora ubuvuzi, ni ngombwa ko ibi bintu bishyirwamo imbaraga kuko ubuzima ni cyo kintu cya mbere cy'ingenzi, urabona rero ko iki cyumba kirimo ibikoresho by'ubuvuzi.

Igice cyo mo imbere kigaragaza akanwa aha ni hamwe kwa muganga baba bafashe ibyuma byabugenewe bakagusuzuma, ubundi bagasohora ifoto yerekana uburyo mu imbere hameze.

Umusore ufite umusatsi mukeya w'inzobe wambaye agatuza, afite utwanwa dukeya ku kananwa kiwe, mu ntoki ze harimo urudodo ari kugenda acisha hagati y'iryinyo n'irindi.

Umuganga w'inzobere cyane cyane mu kuvura uburwayi bwibasira amenyo, akaba ari gukura umwana mutoya yifashishije ibikoresho byabugenewe bikoreshwa n'abaganga.

Icyumba gikoremo ubuvuzi by'umwihariko aha haba haragenewe kubagira abarwayi, hari agatebe gato kizengurutse umuganga yicaraho naho hari n'indi yegamirwa umurwayi aryamaho.

Umukobwa wambaye ikote ry'ubururu n'agapira mo imbere k'umukara, ufite imisatsi iboheye inyuma, afite urupapuro n'ikaramu mu ntoki, iminwa minini ari kumwenyura, ari kumwe n'undi wambaye ikote ry'umutuku.

Umusore uri kwireba mu kirahure akaba ari kumwenyura, afite agasatsi gake, ni inzobe yambaye agatuza, ari gucisha akadodo hagati y'amenyo yiwe.

Umugabo uri kumwenyura yambaye ishati y'ubururu irimo uturongo tw'umweru, hari ikiganza cyambaye uturindantoki bigaragara ko ari icy'umuganga n'ubwo we isura ye itari kugaragara.

Umusore ufite ubwanwa bukeya amaso yiwe yahenengeye hakaba hagaragara imboni z'umukara mu biganza bye byombi afite akadodo ari kugenda agacisha hagati y'iryinyo ndetse n'irindi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, kirimo umugore w'umuganga, wambaye amadarubindi ariko ayashyize mu gahanga ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari gutanga ubuvuzi bujyanye n'amenyo.

Ubuvuzi bw'amenyo burigwa,, bugasesengurwa ubundi bukabona kuba bwakorwa. Uyu ni umuganga uri kwihugura, yifashishije ikimeze nk'akanwa k'umuntu.

Umukobwa wasamye isura ye ntigaragara neza, ari gukora isuku mu menyo yifashishije agakoresho kabugenewe k'akadodo aho agenda agacishamo hagati akuramo ibiryo byahezemo.

Nibyiza ko tugirira amenyo yacu isuku kuko iki n’igice cy'ingenzi mu buzima iyo uri kumwenyura mu kanwa kawe hakaba hasa neza n’ibintu biba bigaragara neza cyane ,uyu musore n'umukobwa bakaba bari kwita kw’isuku.

Umuganga ukora ubuvuzi bujyanye n'amenyo w'umuzungu w'umudamu, yambaye uturindantoki tw'ubururu akaba ari kwita ku murwayi agiye kumwogereza amenyo ye.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, kikaba gifite urukuta rw'umweru, rwometseho utwuma, harimo utw'umukara ndetse n'utundi.

Umusaza ugeze mu zabukuru, urabona ko nubwo ashaje ariko aracyabasha kwiyitaho afite isuku. Yambaye amadarubindi n'ubu urabona ko ari ahantu bogera.

Hari uburyo bwinshi butandukanye dushobora gukoresha dusukura amenyo yacu, bamwe bakunze gukoresha uburoso, ariko burya ntabwo bumara neza neza imyanda hagati mu menyo, jya ufata akadodo ugenda ugacisha hagati y'iryinyo n'irindi.

Ubuvuzi buri gukorerwa mu cyumba, umuganga yambaye uturindantoki tw'umweru ndetse n'agapfukamunwa, ari kuvura umukobwa mu gice cyo kumukura amenyo.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi myinshi ishwambaguritse, akaba yambaye agasengeri k'umweru. Ari gukora isuku mu menyo ye, akaba ari kumwenyura, ukaba ubona ko amenyo ye ari urwererane.

Umugabo wambaye imyenda babyukiramo y'umukara, akaba abyutse mu gitondo, ari mu rwogero, abanje gusukura amenyo ye mbere y'ikindi icyo aricyo cyose. Akaba ari mu cyumba gifite ibitambaro bitukura.

Ni uburyo bwihariye bwo koza amenyo hakoreshejwe urudodo. Aho ugenda ucisha hagati ya rimwe n'irindi ugakuramo utwanda duto duto tuba twagiye dufatamo.

Igice cy'akanwa kigaragara, aho cyafashwe n'ibyuma kabuhariwe byifashishwa n'abaganga, iyo bagiye kugusuzuma kugira ngo bamenye nyirizina ni iki kirimo imbere kirwaye.

Ubuvuzi bw'amenyo, ni bumwe mu bukorwa hitonzwe, kuko uramutse ubukoze nabi bushobora kwangiza uwo uri kuvura, abaganga b'inzobere bari kuvura umudamu wagize ikibazo cy'iryinyo.

Umuganga w'umuzungu ufite imisatsi myinshi ndetse n'ubwanwa, yambaye amadarubindi ndetse n'umwambaro ubaranga w'umweru, ari mu cyumba akoreramo ubushakashatsi bujyanye n'ubuvuzi, aho afata ibintu akabyomeka ku gikuta.

Umuntu wasamye bakaba bamaze kumukuramo iryinyo, hakaba hasigayemo ikinogo ariko n'andi menyo asigayemo urabona ko atari ku murongo, bigaragara ko nayo arwaye.

Kwa muganga mu bitaro hari umurwayi uryamye uri kwitabwaho n'umuganga w'amenyo, yasamuye akanwa ke ari kumurika kugira ngo arebe ikibazo yaba afite mu kanwa.

Abantu babiri barimo umuzungu ndetse n'umwirabura w'umugabo, bari mu myitozo ngororamubiri, bakaba bari kugenda bamwenyura, bigaragara ko bari kuganira ibintu bishimishije.

Umumama bigaragara ko atangiye gukura, ari kumwe n'umukobwa we w'umuganga, wambaye ishati y'ubururu ndetse n'umupira w'umweru uciyemo hagati, yambaye n'isaha.

Umuryango wishimye, hari abuzukuru ndetse n'abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure, bose basuye umukecuru wabo, baramuganiriza arishima aranezerwa.

Umukecuru akaba yambaye amadarubindi n'ishati y'umuhondo, afite agakombe ari gukuramo ikinini, amasaha y'iwe yo gufata imiti akaba ageze, ni yo mpamvu agiye kuyifata.

Umusaza wawe ugeze mu za bukuru, ari kumwe n'undi mugabo w'ijigija bafatanye ku rutugu. Bari kugenda baganira impande ya bo hari ubusitani bukikijwe n'ibiti bakaba bari kumva amahumbezi.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, arabyutse maze yicara ku buriri, hari umuganga umukurikirana umunsi ku wundi, uje kumuha imyitozo ya mu gitondo kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Abari mu myitozo ngororamubiri bose si ngombwa ngo bagende biruka, hari abagenda gake gake bijyanye n'uko umubiri wawe ushoboye, hano hari batatu rero bari kuyikora muri ubwo buryo.

Abagore batatu bakuze, bari kumwenyura, bakaba bari kureba muri terefone, uko byagenda kose bari gufata agafoto, barizihiwe nyuma yo kuva mu birori bari bagiyemo.

Babiri bari kumwenyura umwe ni umusaza wambaye amadarubindi, undi ni umugore akaba afite utuntu mu ntoki, utundi duteretse ku meza y'umukara.

Umusaza n'umukecuru, bageze mu zabukuru, ariko ntabwo bigeze batandukana, kuko kugeza ubu umusaza aracyacishamo akamusoma, umukecuru nawe bikamunezeza akamwenyura.

Umubyeyi n'umwana bari kuganira ndetse bakina udukino, nimba ushaka ko umwana wawe akura neza urasabwa kujya ufata umwanya ukamwitaho, ukamukinisha udukino bituma akwisanzuraho.

Mu bihugu byateye imbere hari ibigo byashyizweho byita ku bantu bageze mu zabukuru, aho usanga babashyira ahantu hamwe maze umunsi ku wundi bakajya babitaho.

Umuntu wari waravunitse, akaba ari mu bitaro, ariko atangiye koroherwa, hari akuma kabugenewe, iyo watangiye gutera intambwe ariko zitarashikama neza, baguha kugira ngo kakumenyereze.

Abagore babiri bari kuganira bamwenyura, umwe akuzemo afite ikirahure cy'icyo kunywa, yambaye amadarubindi, bari mu gice cy'ikikoni kuko baganira ariko bari no mu turimo tw'amaboko.

Ihema ririmo abantu batandukanye, biganjemo abakambwe bari imbere. Bakaba biteye umwitero ndetse bari kuririmba bizihiwe barakoma no mu mashyi, ariko hari umwe ugaragara nk'utishimye.

Umusaza ugeze mu zabukuru yicaye ku ntebe, ku meza hari igitabo n'ikaramu akaba ari kwandika, yambaye amadarubindi, ishati y'icyatsi ndetse n'agapira k'ibara ry'ivu.

Umusaza wambaye amadarubindi ufite uruhara, ari gusumwa n'umuganga aho bagiye kureba umuvuduko w'amaraso uburyo uhagaze, muganga yambaye imyenda y'ubururu.

Umusaza wari waravunitse atangiye gukira. Iyo bimeze bityo, hari akuma baguha kagufasha gutangira gutera intambwe. Akaba ari kwitabwaho n'umuganga w'umuzungukazi.

Umukambwe ugeze mu zabukuru wicaye mu kagare kifashishwa n'abafite ubumuga cyangwa se abandi batari kubasha kugenda, ari kumwe n'umwana wambaye agapira k'icyatsi bakaba bari gukina agakino.

Umukecuru ufite imvi zabaye uruyenzi, wambaye amadarubindi, agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara, ari kumwe n'umuganga umwitaho umunsi ku wundi kugira ngo abashe kumenya uko ubuzima bwe buhagaze.

Umusaza ugeze mu zabukuru, afite terefone mu ntoki, arimo ararebamo. Iruhande rwe hicaye umukobwa mwiza, wambaye agapira k'umukara, hakaba hari ibyo muzehe ari kumwereka.

Umusaza ugeze mu zabukuru akaba yambaye amadarubindi, imvi zabaye uruyenzi yaba ku musatsi no ku bwanwa, afite ikaramu mu ntoki ndetse n'igitabo akaba ari kugisoma.

Utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze, umusaza uri mu zabukuru, ari kuganira n'umuhungu we amusomera igitabo, bishimye bamwenyura, bose bafite ibikombe by'ibyayi.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, ari kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa, amuzaniye ikinini cya mugitondo, afite ikirahure cy'amazi, akaba umusatsi wiwe ari umuhondo, ari kumwitegereza.

Umusaza ugeze mu za bukuru, afite agacupa karimo umuti akaba agiye gukuramo uwo anywa, impande ye hicaye umudamu wambaye amadarubindi n'amaherena uri gukora kuri mudasobwa.

Umuganga w'umusore ufite ubwanwa n'umusatsi mukeya, ari kumwe n'umukecuru ubona ko atarasaza cyane, akaba ari kumuvura ariko anamwitaho mu bundi buryo.

Abantu babiri bicaye bari kuganira bose ni abadamu, umwe asheshe akanguhe, undi biragaragara ko akiri mutoya, barimo baraseka umukuru ari gukata imboga runaka.

Umusaza ugeze mu zabukuru, yambaye amadarubindi n'agapira, afite utwuma tw'umutuku mu ntoki, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, mu rwego rwo kugira ngo akomeze gukomera.

Ababyeyi bageze mu zabukuru umukecuru umwe imvi zabaye uruyenzi, bombi bari kwicuma utubando bakenyeye ibisa, bakaba bazindutse bagiye kwitabira inama.

Umukambwe ugeze mu za bukuru utakibashije urabona ko hari umuntu uri kumwoza, ni ngombwa ko abantu bakuze batakibashije gukora uturimo tw'amaboko tubegera tukabibafashamo.

Umusaza ugeze mu zabukuru akaba afite umuganga ubyuka buri gitondo aza kumwitaho ndetse akagenzura uko ubuzima bwe buhagaze, ibi ni byo abakuze bose twakagombye kubakorera kuko baba bakwiye kubungwabungwa.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi yambaye umupira w'umuhondo, afite akantu mu ntoki ndetse n'ikaramu. Imbere ye hari umusaza wambaye umupira muremure w'umukara n'amadarubindi. Iruhande rwe hateretse ikirahure cy'amazi.

Umusaza ugeze mu zabukuru ndetse n'umukecuru, bakaba bari kwitanaho. Amuzaniye igikombe cy'amazi, undi ari kukinywa, urabona ko bishimye banezerewe, umusaza aracyari mu buriri.

Umukobwa wambaye ijaketi isa igitaka, afite agakapu mu ntoki n'akandi ahetse ku mugongo, hari umuntu wari waravunitse ari kugenda amenyereza gutangira gutera intambwe.

Umukino w'intoki uzwi nka basiketi ni umwe mu yikunzwe ku isi, umugabo ari gukina n'akana ke atangiye kuwugatoza kakiri gato kugira ngo nigakura kazawukine bigatunge, kazabigire umwuga.

Umusaza usheshe akanguhe ari guhabwa imyitozo n'umuforomokazi. Hari agatambaro k'umuhondo afite, ari kukamuha amwereka uburyo ki azajya agafata.

Umuganga w'inzobere ufite akuma yifashisha mu gupima uburyo umutima utera ndetse kanagenzura umubiri, ari kumwe n'umusaza akaba ari kumuha ibisubizo by'uko ubuzima bwe buhagaze.

Abantu bicaye mu ihema bahuriye hamwe, bakaba baje kwitabira amahugurwa, ibirori cyangwa se ibiganiro. Hari umudamu uhagaze wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'ijire, hakaba hari ibyo ari gutanga.

Abayobozi batandukanye bari mu cyumba kiberamo inama, gusa nyuma yo kuyisoza bagiye kuganira ibindi by'ubuzima busanzwe, hari umugabo ubyibushye uri ku ruhande rumwe, wambaye ikote ridasa n'ipantaro.

Ibimera bitandukanye bikorwamo imiti, ifashishwa mu buvuzi gakondo, iyo umuntu agiye kwa muganga bakabona ari ngombwa ko indwara ye ivurwa n'iyo miti bamwoherezayo akajya kuyifata.

Icyumba kiri kuberamo inama, hakaba tabiriye abantu batandukanye biganjemo abagabo n'abagore. Abari gutanga imbwirwaruhame bari imbere barimo umudamu ufashe indangururamajwi, abandi bose bari kumwitegereza.

Icyapa kiri mu mabara abiri. Inyuma hari ibara ry'ubururu bwererutse, hakaba hateretseho agatabo kabumbuye. Uruhande rwako rw'imbere rurasa umutuku werurutse, handitseho amagambo y'ibara ry'umweru uburyo bwo kwigisha ubuzima bw'imyororokere.

Abantu bari mu cyumba kiberamo inama bakaba banezerewe, bamwe baricaye abandi barahagaze, bakaba bari kumwenyura bose icyo bahuriyeho ni uko bateze amaboko, harimo abagabo bake n'abagore benshi.

Ikigo cy'Igihugu cy'Ubuzima cyita ku buzima, RBC icyo ni cyo kirango cyabo, bakaba bagira bati ''ubuzima bwiza ku baturage b'Igihugu cy'u Rwanda.''

Umugabo uri kumwenyura, wambaye ishati yerurutse akaba ari ku cyapa, hari ishusho y'icyatsi ndetse n'amagambo menshi agize iki cyapa, agiye yanditse mu ibara ry'umukara.

Abagore b'abamansera batatu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ibitambaro, bari kuramukanya na DR Sabe Nsanzimana, uyu akaba ari Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda.

Icyumba kiri kuberamo ibirori bitandukanye, abadamu bari gutega amaboko ndetse n'intore ziri guca imigara, bose barakenyeye.

Agahinja karyamye ubona ko gasinziriye, ntihagire umuntu ugakangura kuko kahita karira kandi mama wako ntawe uhari, abana batoya baba bakeneye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko.

Abantu babyukiye kwa muganga, baje gusuzumwa umuvuduko w'amaraso, hakaba hari abaganga b'inzobere muri icyo gikorwa, baje guha iyo serivise abaturage batandukanye.

Icyapa cy'icyatsi kikaba kiri mu ishusho ya mpande enye kandi zose zingana, kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yandikishije ibara ry'umweru ndetse n'umubare gatatu.

Umukobwa wicaye imbere y'abantu akaba ari gutanga imbwirwaruhame afite indangururamajwi yageretse ukuguru k'ukundi akaba afite igitabo kiri ku itako rye.

Ikarita y'u Rwanda hari abantu benshi batazi uburyo iteye, ariko iyi ngiyi ni ishusho yayo ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Mu rwego rwo kugirango tugire isuku kandi inoze, leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kuzajya tumena imyanda, hari umufuka ujyamo ibibora hari n'undi ujyamo ibitabora, iba itandukanye ku mabara.

Abantu bari mu byiciro bitandukanye hari kugaragara uburyo icyumweru cyagiye kibagendekera, ndetse urabona ko hagiye habaho ubwiyongere ku nsanganyamatsiko bari bahawe.

Ikigo nderabuzima cyicayeho abantu batandukanye. Biganjemo abagore bakenyeye ibitenge by'amabara menshi gusa bose bakaba baduteye umugongo, aho bicaye mu ibaraza bose bareba mu cyerekezo kimwe.

Uduce dutandukanye tugiye turiho abantu bari mu mirimo hari uri mu murima uri gusarura, hari abari mu cyumba cy'ubuvuzi, hakaba hari abaganga bambaye utunozasuku n'udupfukamunwa.

Umwana muto wishimye araseka, aramwenyura, yambaye agapira k'icyatsi kibisi. Ari gukora ku mugozi uri mu matwi y'umugabo uri imbere ye ufite ubwanwa, wambaye umwenda w'umweru.

Inama mpuzamahanga yiga ku guhagarika icyorezo cya Mariburu, iyobowe na Minisitiri w'ubuzima Dogiteri Sabe Nsanzimana, akaba iruhande rwe hicaye umuzungu.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu bwerurutse hakaba hari n'ahandi hariho umutuku na wo werurutse. Bakaba bari kutubwira ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina uburyo tugomba kuyirinda abana bato.

Umuganga wambaye akanozasuku mu mutwe, agapfukamunwa yakamanuye, yambaye n'impuzankano yabugenewe, afite igipimo bifashisha iyo bari gusuzuma umurwayi.

Icyapa cy'ubururu kinini kikaba kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, hari ibimeze nk'ibiganza bifatanye birimo hagati, hari inyuguti ya ha ndetse na ra.

Ni ahantu habera ubuvuzi butandukanye, abaturage baje kureba ubuvuzi, hari abakobwa bicaye ku meza ari ku murongo ndetse n'umusore uri imbere wambaye akajire k'umuhondo.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe abarwayi ba Diyabete, iyi ni indwara iri kugenda yibasira abatari bake ku isi, niyo mpamvu hamaze gushyirwaho umunsi mpuzamahanga wo kuyirwanya.

Inyubako yanditseho ibyapa biri mu rurimi rw'icyongereza ugenekereje mu kinyarwanda ubuzima bwiza, kiri mu mabara y'ubururu amagambo yanditseho ni umweru.

Icyumba cyo kwa muganga harimo ibitanda bitandukanye, akaba ari aharwarira abantu mu buryo bwa rusange, nta muganga uri kugaragaramo, yewe nta n'umurwayi.

Inyubako itangirwaho serivisi zijyanye n'ubuvuzi, abaturage babyutse ari benshi, bamwe baje kwivuza, abandi baje kurwaza, hari imodoka y'umukara imbere yayo hahagaze umudamu ukenyeye igitenge.

Inyubako isa neza ikaba igeretse isize amarangi y'umweru ariko ahateye intebe z'uruganiriro hari ibintu bihashushanyije harimo intebe z'amabara atandukanye zigiye ziteye mu matsinda.

Icyumba cy'ivuriro, giteguye neza cyane, buri kimwe cyose gihari kiri ku murongo. Harimo intebe z'umutuku, hari uburiri buryamaho umurwayi mu gihe ari gusuzumwa.

Uruganiriro ruteguye neza, hakaba harimo intebe zikozwe mu rubaho ziriho udusego, hirya no hino hatatsemo indabyo, hari ameza atatu.

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, biherereye i Kigali mu Rwanda ho ku Kacyiru. Ibi bizwi nkaho ari byo bya mbere, umuntu ufite ikibazo gikomeye akenshi ni ho yoherezwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye ndetse kikaba cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri kuko harimo akuma kabugenewe umurwayi utangiye kumenyera kugenda bamutorezaho kwirukanka.

Kwa muganga haba hari ibyo byinshi bishobora kwifashishwa bibikwamo imiti, kuko hari imiti y'umwihariko iba igomba kubikwa ahantu habugenewe. Uyu mugangakazi w'umuzungu n'ibyo arimo.

Icyumba cy'isuzumiro kwa muganga kirimo ibyuma kabuhariwe umuntu agenda akaryamaho ubundi kigasuzuma neza uburwayi afite mu imbere, iki kikaba ari icyuma cy'ingenzi mu buvuzi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, ubu bushobora kuba ari ubuvuzi bw'abana, bijyanye n'ibishushanyo byagiye bishyirwa ku nkuta, hari agatanda umurwayi avurirwaho ndetse n'insakazamashusho ishobora kwerekana uburyo ari kwitabwaho.

Icyumba cy'ubuvuzi giteye imbere, kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga, bishobora gutahura uburwayi bwihishe imbere, ahatabasha kubonwa n'amaso y'abana b'abantu.

Ahantu hakoraniye abantu benshi urabona ko hari urujya n'uruza bamwe baragenda abandi bagaruka, hari abambaye udupfukamunwa hirya hari ihema ryicayemo abandi biragaragara ko habaye ibirori.

Igitanda gishobora kuryamaho umurwayi maze ubuzima bwe bukabasha gukurikiranwa uko bikwiye, kuko gikikijwe n'utwuma dushobora kugenzura neza, ikibazo icyo ari cyo cyose umurwayi yagira.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu rwego rwo kwita ku barwayi kugira ngo babasubize ubuzima, harimo ibitanda bishashe neza ariko nta muntu ugaragaramo.

Ku bitaro kwa muganga hari abantu bicaye bategereje kwinjira mu cyumba cy'isuzumiro kugira ngo bitabweho n'abaganga, hari umukobwa wambaye agakanzu n'agapfukamunwa.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu myitozo ngororamubiri. Hari aho abantu baterurira ibyuma ndetse n'aho ushobora kwirukira ariko utava ahantu uri.

Inyubako nziza cyane irimo amakaro asa nk'igicu, ifite ibirahure bigize icyumba kirimo utuyetajeri tutariho ikintu, ikaba icanye amatara.

Icyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gutanga ubuvuzi, akenshi na kenshi aha niho bakorera ibijyanye no kubaga, hari umurwayi uri ku gatanda.

Indabyo ziri iruhande rw'akayira, ziganjemo umuhondo n'icyatsi. Imbere yazo, hari umukobwa wicaye, ndetse hari n'abandi bari mu ibaraza ry'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibyuma biteye imbere byifashishwa hakorwa iyo myitozo, gifite inkuta z'umweru, hamanitseho isaha ndetse n'idirishya.

Icyumba kirimo ibitanda biryamaho abarwayi, bikaba bigaragara ko aha ngaha hatangirwa serivise z'ubuvuzi ariko zigezweho. Urabona ko harimo ibyuma bishobora gufasha umurwayi.

Abantu benshi bahagaze mu mbuga, inyuma yayo banditse amagambo ngo Isange one stop center ya Kabutare, abenshi ni abagabo, gusa harimo abakobwa babiri, hari abandi bigaragara ko bafite ubumuga bwo kutabona neza.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi hakaba habera ibijyanye no kubaga, ariko hashobora kuba hakoreshwa n'abana bato kuko hagiye harimo utuntu tw'udushushanyo.

Icyapa cy'umutuku ndetse n'umweru cyanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Matyazo, aha ni mu karere ka Huye. Hari ababyeyi bari gusohoka aho ngaho kuri icyo kigo nderabuzima.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma indwara umurwayi arwaye, urabona ko ari icyumba cyiza kandi cyubatswe mu buryo bugezweho, harimo ibitanda bibiri.

Inyubako nziza isize amabara y'iroza, ifite ibaraza rifashwe n'inkingi enye, imbere yayo hateretse intebe z'imituku. Nta wugaragara hanze yewe n'imbere.

Icyanya cyahariwe ubuvuzi, kikaba ari kinini ku buryo bugaragara, harimo ubusitani bugizwe n'indabo z'icyatsi ndetse n'umuhondo, hagiye hari abantu bari mu mbuga.

Ubuvuzi bugezweho bukenera ibyuma by'ikoranabuhanga, mu rwego rwo kugira ngo habashe kumenyekana ikibazo umurwayi afite, iki ni icyuma bacishamo umurwayi bakareba ibice byose bigize umubiri we.

Inyubako icururizwamo imiti, akaba ari ahantu ujya uvuye kwa muganga, mu gihe bakwandikiye umuti ukaza ukabereka urwo rupapuro rubikwemerera ubundi bakawuguha.

Inyubako igeretse, ikaba ifite imbuga yisanzuye, yubakishije ibice bimwe bigizwe n'ibirahure ahandi hari inkuta z'umuhondo ndetse n'inkingi zigiye ziyizengurutse.

Ni ahabikwa imiti, hakaba hagomba kuba hatekanye kandi harinzwe kuko imiti iba igomba kubikwa neza kandi mu buryo bwitaweho mu rwego rwo kugira ngo hatazagira uyangiza.

Umugabo waje gufata ubuvuzi, ni mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, aho ari kumwe n'umukozi wacyo, kiri mu bukangurambaga bwo gufata abantu ibipimo kugira ngo hamenyekane ikigero cy'umuvuduko w'amaraso.

Umwana mutoya wambaye ikote, azanye umusaza ahatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima aje kumuvuza. Kubera ko umusaza atakibashije kugenda yicaye mu kagare kabugenewe.

Ku kigonderabuzima abaturage bazindutse ari benshi. Bamwe baje kwivuza, abandi baje kureba ko ubwisungane mu kwivuza bwabo bugikora. Hari umudamu uhetse umwana wamutwikiriye, iruhande rwe hari akana k'agakobwa.

Ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge, ni bimwe mu byubatse neza ku buryo bujyanye n'igihe tugezemo. Imbere yabyo hari indabyo zitonze umurongo.

Icyumba kiri kuberamo amahugurwa atandukanye, yitabiriwe n'abiganjemo igitsina gore, harimo ndetse n'abasheshakanguhe. Imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara uri kubagezaho ikiganiro.

Icyumba kirimo ibyuma bitandukanye, hakaba hatunganyirizwa ibintu bijyanye n'amazi bakayasukura, agomba kwifashishwa mu buvuzi runaka, harimo za mudasobwa ndetse n'ibindi.

Ibitaro bya Kabgayi amarembo makuru abyinjiramo ariho icyapa kikwereka ko ariho ugeze, hari aganda k'igitaka kamanuka kajya kuri ibyo bitaro.

Ahantu abana bashobora gusohokera kuko hari imikino yabagenewe, hari udupupe ndetse n'utundi tuntu tw'uduhendabana, ushobora rero kuhasohokana umwana wawe.

Ahatangirwa serivise z'ubuvuzi, abarwayi bari kumwe n'abaganga bari kwitabwaho mu cyumba kirimo abantu benshi, hari uwambaye imyenda y'umweru uri kwita ku mukecuru wicaye mu kagare.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibipurizo by'umweru n'ubururu, hari intebe abarwayi n'abarwaza bicaraho bategereje, hari igikuta kiriho igishushanyo kigize ibice by'ijisho.

Ibitaro byiza cyane byubatse mu buryo bugezweho. Ni ngombwa ko buri gihugu kigomba guteza imbere igice kijyanye n'ubuzima, kuko abaturage baba bakeneye ubuzima kugira ngo bateze imbere igihugu cyabo.

Icyumba kiberamo igikorwa cyo gusuzuma indwara mu buryo bwimbitse, ubanza guca ahantu hatandukanye ubundi byananirana bakakuzana aha kuko iki kireba neza mo imbere mu mubiri.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, aha ngaha abantu bakaba bahaza bakabavura, iruhande rwacyo, hari umunyonzi uhetse umukobwa, iruhande rwe, hari indobo y'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye, bikaba byiteguye kwakira abarwayi biri ku murongo, aha ngaha iyo umuntu arwaye bikaba ngombwa ko arara mu bitaro ni ho bamushyira.

Icyuma kabuhariwe, cyifashishwa n'abaganga mu rwego rwo gusuzuma neza ikibazo umurwayi waje abagana yaba afite. Kiri mu cyumba cyiza ndetse ubona ko ari ubuvuzi buteye imbere.

Icyumba kiri kuberamo ikiganiro mbwirwaruhame, hicayemo abantu batandukanye, hari abari imbere bari gutanga ikiganiro, ku meza yabo hari igitambaro cy'icyatsi ndetse n'amazi yo kunywa.

Icyumba kiraramo abarwayi, ibitanda nk'ibiingibi byifashishwa mu gutwara umurwayi iyo bibaye ngombwa ko bamwimura niyo mpamvu ubona bifite amapine.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, imbere yabo hari ibyuma by'ikoranabuhanga bibafasha gutanga ubuvuzi bugezweho, bakaba bari kubirebamo.

Umukambwe ugeze mu zabukuru imvi zabaye uruyenzi yambaye amadarubindi ariko ashaje neza kuko afite umuganga umwitaho umunsi kuwundi akamenya uko ubuzima bwe buhagaze.

Inyubako nziza ikaba yubatse mu buryo bugezweho aho ifite imbuga yisanzuye, hari akayira gacamo abantu bagiye kwinjira gashashemo amatafari yabugenewe.

Umuturirwa w'inyubako ijyanye n'icyerekezo tugezemo. Hakaba hari ubusitani bugiye biyikikije ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru, hari kandi n'imihanda ishobora gucamo imodoka ziyijemo.

Icyuma cyifashishwa mu gusuzuma uburwayi ubwo ari bwo bwose, buba buri imbere aho amaso atabona. Iki ni kimwe mu bintu byaje bikenewe kuko mbere umuntu yarembaga, ntihamenyekane neza icyo arwaye.

Ku kigo nderabuzima, kikaba gihagazeho umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru. Hari imbuga yisanzuye ndetse n'ubwatsi buri kugaragara agace gatoya.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, u Rwanda rwashyize imbaraga mu kwegereza ubuvuzi kuri buri muturage wese.

Inyubako nziza iri ahantu hitaruye, ikaba yubatse mu buryo bujyanye n'igihe tugezemo, hagiye hari utuyira tujya kuyinjiramo ndetse ubusitani buyikikije bugiye buteyemo indabyo.

Ubusitani burimo ubwatsi butoshye imbere yaho hari urugo ruzitiye amatafari ahiye ndetse n'utwuma tugiye turimo hagati hari ibyicungo abana bitorezaho.

Ivuriro ryoroheje ritanga imiti ku barwayi baba bavuye kwa muganga maze bayibandikira bakaza babagana ubundi bakayibaha. Si byiza kugana hano utabanje kujya gusuzumwa mu bitaro.

Ni ku kigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya no guhangana n'indwara ya kanseri ku cyicaro cyacyo gikuru kiri i Kigali mu Rwanda hari ubusitani ndetse n'inyubako nziza.

Inyubako ikoreramo ivuriro ritanga imiti, rikaba ryubakishije amatafari ahiye, ikaba igeretse kabiri, iri ahantu hitegeye ku buryo ushatse imiti aza bakayimuha.

Inyubako nziza cyane, isize amarangi y'umuhondo werurutse, ifite ibirahuri by'umukara ndetse n'utwuma turi ku idirishya tw'icyatsi, iruhande gato hari umuganga wambaye impuzankano yabo.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, kirimo ibyuma bijyanye n'igihe tugezemo, byagenewe gutanga ubwo buvuzi. Hari intebe igaragara y'ikoranabuhanga.

Inyubako y'ibitaro ariko byigenga, ikaba iri gusohokamo imodoka y'ivatire y'umukara, imbere y'umuryango hicaye umugabo wambaye ipantaro ya kake n'umupira w'ubururu.

Icyumba cyiza gifite amarangi y'umweru, kikaba kiri kumurikirwa n'itara, harimo akabati gafite uduce tubiri tw'umuhondo, kamwe hasi akandi hejuru, hari agatanda baryamishaho umuntu.

Ahantu hagaragara ko ari ku bitaro, haparitse imodoka mu mbuga nini yisanzuye, hari abagabo bahagaze mu itsinda ry'abantu batatu bari kuganira, undi ari imbere y'imodoka.

Icyumba gikorerwamo isuzuma ndetse n'ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, harimo ibyuma kabuhariwe byagenewe kwifashishwa muri ubwo bushakashatsi, gihagazemo umugabo w'umuganga.

Abantu batanu abagore bane ndetse n'umugabo umwe, arabasumba abahagazemo hagati yambaye ikote ry'ijaketi y'umukara ndetse n'ishati y'umweru bose bari kumwenyura.

Ni igikoresho cyifashishwa n'abaganga kikaba kibasha gusuzuma uburwayi umuntu yaba afite, ubu ni uburyo bwiza kandi bw'ingenzi bukemura ibibazo bitandukanye mu mavuriro.

Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa mu buzima kuko ituma ubuzima burushaho kugenda neza, umukobwa ubona ko yakoze umwitozo uhagije ari ku gatapi arikugenda yirambura.

Amazi ni ngombwa mu buzima hari byinshi avura ndetse hari n'ibyo akemura, iyo uyanyweye ufite inyota irashira, umubiri wacu rero uba ukeneye amazi ariko ukamenya neza ko wanyweye ameza.

Ahantu hari imiti itandukanye, ishobora kwifashishwa mu buvuzi, harimo amavuta ndetse n'ibindi bapuriza ubundi bikaba byatuma umuntu agarura ubuzima.

Umugabo wicaye wambaye ishati y'umutuku werurutse akaba afite mudasobwa imbere ye iteretse ku kabati k'umweru, hari ibyo ari kuyikoramo urabona ko ari kwitegereza.

Umusore ndetse n'umukobwa, bari mu myitozo ngororamubiri, babanje kuza kwicara ku gatebe kari iruhande rw'ikibuga kugira ngo babanze bambare imyenda yabugenewe, ibikapu biteretse imbere yabo.

Ikirango cy'urugaga rw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku maguru hano mu Rwanda, hakaba hariho umusore uri kwirukanka, iri shyirahamwe ryitabira amarushanwa atandukanye.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri yaba iyo guterura ibyuma bitandukanye ndetse no kunanura no kugorora imitsi. Hari umusore uryamye ku gatanda wambaye umupira w'umuhondo ari kumwe n'umutoza we wambaye ingofero y'umukara.

Umusore uri guterura ibyuma, imbere ye hari umutoza uri kumwerekera uburyo agomba kubikora. Mu maboko yombi ateruye ibyuma biri mu ishusho y'uruziga, ukuguru kumwe kurapfukamye, ukundi kurashinze.

Umutoza yaje mu kibuga, ariko ntabwo afite abakinnyi benshi uyu munsi. Kuko bamwe nabanyeshuri bagiye kwiga. Afite imipira ibiri yo gukina ariko hari umukinnyi we wavunitse agiye kugenda amenyereza gake.

Abazwi nk'abantu batabara aho rukomeye, mu gihe umuntu atarabona ubuvuzi burambye, bashobora kugufasha bakaguha ubuvuzi bw'ibanze.

Umukobwa ubyutse yambaye utwenda tw'umukara ariko turagaragaza inda, akaba ari kwinanura yicaye ku buriri aho amaboko yayateze yose.

Abantu babiri batagaragara neza amasura yabo, gusa umwe ni umukobwa yambaye ishati y'ubururu bwerurutse, akaba ari kugenda agenzura intambwe z'uyu mugabo uri imbere ye.

Igikoresho cyifashishwa mu buvuzi, hari agakarito kibikwamo kari iruhande rwacyo, iki gishobora kwifashishwa ku muntu wagize imvune maze bakakimuzirikaho ubundi amagufa ye agaterana.

Imikino ngororamubiri ni myiza kuko ituma abana bidagadura bakishima. Si ibyo gusa, kuko ibi iyo ukomeje kubikora hari igihe biba umwuga ushobora kuba wagutunga.

Ni imiti itandukanye, iri mu bucupa bugiye butameze kimwe ariko nyamara icyo avura ni kimwe kuko yose ikaba ishinzwe guhagarika uburibwe.

Imiti iri ku meza y'umweru, ikaba igiye iri mu moko atandukanye, hari iyifashishwa mu gusukura amenyo, hari n'iyo abantu bisiga ubundi bakimasa mu gihe bagize imvune.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'umuhondo, ikabutura y'ubururu. Akaba ari kugenda asunika ibyuma ku itapi y'icyatsi mu rwego rwo gukomeza umubiri.

Icyuma cyifashishwa mu gukora ubuvuzi bwimbitse kikaba gishobora gusuzuma inyama zo mu nda ndetse n'ibindi bice by'umubiri biba bitagaragara inyuma, hakamenyekana neza ikibazo umurwayi afite.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri, imwe itagusaba kuva aho uri, uba uri kuyikorera aho hantu, hari icyo bita pompaje akaba aricyo ari gukora.

Igice cy'umubiri kigaragaramo mo imbere, aha ni mu gihe abaganga baba bamaze kugusuzuma bifashishije ibyuma byabugenewe, ubundi bagasohora ifoto yerekana aho wagiye wangirika mo imbere.

Imbonerahamwe ishobora kwerekana uburyo umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri, agamije kuzana uburinganire ku mubiri we, harimo umukobwa umwe wicaye ku ntebe azamuye akaguru n'undi uhagaze.

Umuntu wambaye ikoboyi, akaba ari kwivura, yavunitse ahitwa mu kagombabari, afite umuti w'ubururu uri mu gashashi, ushyira ku mvune maze uburibwe bukahita ko bugenda nka nyomberi.

Igikoresho cyifashishwa abantu bari kwiga ubuvuzi, aho bari kwerekana uburyo ki ushobora gusuzuma uburyo umutima uteramo, hari igishushanyo bashyize ku meza bari kwigiraho.

Imiti itandukanye iri ku meza ariho igitambaro cy'umweru, harimo iyo ushobora kwisiga urwaye indwara y'uruhu, hari n'iyo ushobora kwizirika mu gihe wagize imvune.

Ari mu rugendo arugezemo hagati, aravuga ati"inyota iranyishe", nta kindi yagombaga gukora yari guhita agura amazi yo mu gacupa ubundi akayanywa kugira ngo abashe gushira inyota.

Umusore wavunitse yambaye akarakosite gasa n'ibara ry'ivu mo imbere harimo agapira k'umukara, akaba yaravunitse mu nkokora ariko afite umuti arigushyiraho umugabanyiriza uburibwe.

Inkweto za supuresi zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, utwuma baterura iyo bari mu myitozo, hari ibiganza by'umuzungu bifashe akantu kariho imbuto umuntu arya iyo asoje iyo myitozo.

Ingobyi yo mu buryo bwa kizungu. Aha iyo umuntu agize ikibazo akarwara cyangwa akavunika bayimushyiraho kugira ngo babashe kumugeza aho ahererwa ubuvuzi.

Ikigereranyo cy'uburyo abantu bakora imyitozo ngororamubiri, bitewe n'ikigero bagiye barimo, harimo abari gukina umupira, hari abari gukora imyitozo yo kwiruka ndetse n'uwicaye ari guterura akuma gato.

Mu rwego rwo kwivura imvune zitandukanye hari utuntu abaganga baguha tuba twarabugenewe ushyiraho kugirango uburibwe bugende. Uyu mugabo akaba yaravunitse ahagana mu nkokora akaba ari kwivura.

Ikiganza gifite ikaramu irambitse ku rupapuro iri kwandika, kikaba ari icy'umuzungu wambaye umwambaro w'umweru, ashobora kuba ari umuganga. Imbere ye hari udukoresho dutandukanye.

Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa mu buzima. Igihe cyose ubyutse jya ugerageza ugorore imitsi yawe, kugirango itazahinamirana. Hano hari umukobwa wambaye agasengeri n'agakora bisa, akaba yicaye ari kurambura amaboko.

Umugabo w'umuzungu, wambaye ikoti ry'umukara, akaba hari ibyo ari guha undi w'umwirabura mu kiganza cyambaye uturindantoki, akaba ari ukina imikino itandukanye.

Umukobwa wicaye ku tapi afite utwuma impande ye twifashishwa hakorwa siporo, urabona ko yamanitse amaboko akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byifashishwa mu mikino ngororamubiri itandukanye, harimo umupira wa basikete ndetse n'umupira w'amaguru, hari kandi ingofero zabugenewe zambarwa n'abakina umukino w'imbaraga.

Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa mu buzima kuko kugira ngo umubiri wacu ubashe kugira ubudahangarwa, ni ngombwa ko tuba twarawumenyereje kujya ukora imyitozo gake gashoboka ariko nanone ikabaho.

Umuganga w'inzobere cyane cyane mu kwita ku bana batoya, akaba afite igipimo ari gusuzuma umwana ubuvuzi bujyanye n'amaso, yicaye ku ntebe y'umukara ku meza hari mudasobwa n'ibindi byuma.

Umukambwe ugeze mu za bukuru, ageze mu rugendo hagati arabanza arahagarara, yumvishe inyota imwishe ahita ajya ku iguriro rimwegereye agura agacupa k'amazi none ari kuyanywa.

Igikapu kigendamo imiti y'ibanze. Iki uzagisangana abaganga, by'umwihariko abavura abakinnyi b'umupira w'amaguru. Iyo avunitse bahita binjira mu kibuga, bagakoramo icyo bakeneye, bakamuvura.

Uducupa turiho imiti itandukanye, ariko yose ikaba ivura ikintu kimwe. Uyu uwushyira ahantu hari uburibwe ubundi ako kanya bugahita bugenda.

Icyuma cyo kwa muganga cyifashishwa mu gutahura indwara zari zarananiranye, ibi ni bimwe mu bigaragaza iterambere mu buvuzi nta kabuza ariko kuko ubuzima ari ingenzi.

Ikiganza kiriho intoki zifite impeta, nyiracyo yavunitse mu nkokora, afite umuti w'icyatsi ushyira ahantu hari uburibwe, bugahitako bugabanyuka.

Umusaza ugeze mu zabukuru ari kwitabwaho n'umuganga akaba ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri kuko mu rwego rwo kugira ngo ugire ubudahangarwa usabwa kuyikora.

Ibyiciro bitandukanye bikorwamo imyitozo ngororamubiri, hakaba hariho abakobwa barimo barakora siporo zitandukanye, hari uwafashe akaguru aragahina n'undi uri kwicara yongera ahaguruka.

Umukobwa wambaye agapira k'ubururu, isume y'umweru yayishyize ku rutugu. Ashobora kuba arangije gukora imyitozo ngororamubiri, ubundi agahita anywa amazi kuko umubiri uba uyakeneye nyuma y'iki gikorwa.

Umugabo ufashe mu nkokora ndetse ikiganza cye gifashe inyuma ku bitugu, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri ari yo mpamvu iri gutuma yigorora kugira ngo imitsi idahinamirana.

Imodoka iri mu muhanda ntayindi iri kugaragaramo. Iyi ngiyi ikaba izwi nk'ibangukiragutabara. Urembye bikomeye cyangwa se uhuye n'impanuka, iyi ijya aho ari maze ikamwitaho, mu gihe iri no kumuzana ku bitaro.

Umukobwa urangije imyitozo ngororamubiri, none ari gusoma ku mazi kugira ngo abashe kuba yagarura ubuyanja, afite esuwime ntoya ku rutugu y'umweru, yambaye agapira k'ubururu.

Ni imipira yifashishwa mu gukina imikino itandukanye, harimo ibiri ikinwa mu mukino w'intoki, ndetse umwe w'umukara n'umweru ukaba ari umupira w'amaguru n'utundi dutenesi. Hari kandi igipimo kigenzura uko umutima utera.

Agakarito kari mu mabara atandukanye harimo ubururu bwijimye buri hejuru ndetse n'umweru, hasi hakaba icyatsi kigiye giciyemo uturongo, hagiye handitseho amagambo atandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu guhambira umuntu wagize imvune, bikaba ari ibipfuko cyangwa se bande zigezweho, hari akaboko kamaze kuzirikwa bigaragara ko bakavuye.

Umugabo wari uri gukina umukino w'amaboko usaba imbaraga, arananiwe bashobora kuba bamukubise ka rugondihene akaba avunitse, arapfukamye abaganga baje bihuta kugira ngo barebe ikibazo yaba agize.

Umusore wambaye agasengeri k'umukara, ku kaboko ke hariho agakomo k'icyatsi. Aricaye yegamye ahantu ku nkingi, akaba ari gusoma ku mazi. Biragaragara ko yari afite inyota kuko ari kuyanywa ayumviriza.

Umuganga, uyu ni umusanabuzima. Ni koko ku bitaro ni kwa muganga baratuvura tukaramba, barasanasana iminsi ikicuma . Arahagaze afite ikintu gitukura mu ntoki.

Umusore wubatse umubiri, akaba asoje imyitozo ngororamubiri, akaba atagaragara umutwe we, ariko ari kugenda ananura amaboko ndetse n'imitsi ye nyuma yo gusoza imyitozo.

Imbuto ni ngombwa cyane by'umwihariko ku bantu baba barangije gukora siporo. Iyo urangije imyitozo ngororamubiri, ujye wihutira kurya urubuto ndetse n'amagi, bizagufasha kubaka umubiri.

Mu bitaro hari umurwayi wahuye n'ikibazo cy'imvune ku kaguru ariko kuko kwa muganga basanasana bamwitayeho, none ari kugenda akira n'ubwo bitaraza neza bari kwishimira intambwe bagezeho bamuvura.

Imyitozo ngororamubiri iba itandukanye, abashaka kongera ingano y'umubiri wabo, baterura ibyuma, ariko ibi si byiza ku muntu utabishoboye, kuko iyo ubikoze bikwangiririza ubuzima.

Icyumba kiberamo ubuvuzi bwimbitse kandi buteye imbere, kirasa neza gifite amarangi y'umweru, harimo igitanda gitoya kimeze nk'intebe umurwayi aryamaho.

Umusore uri kunywa amazi, akaba ayafite mu gacupa, yambaye agakomo k'icyatsi ndetse n'imyenda y'umukara. Yari ari muri siporo, yumvise ananiwe araruhuka maze asoma ku mazi.

Ubuvuzi bw'imvune, ni bumwe mu bikorwa hitonzwe, kuko haramutse hatabayeho gusesengura neza ikibazo umuntu afite, byazarangira akuyemo ubumuga bw'iteka ryose.

Igikoresho cyifashishwa n'abantu bakina imyitozo ngororamubiri, iyo wavunitse mw’ivi uracyambara ubundi kikagufasha mu rwego rwo kugira ngo utaza gutonekara uri gukina.

Umuganga wambaye umwenda w'ubururu, akaba ari gutanga ubuvuzi bujyanye n'imvune. Hari umukobwa ugaramye wambaye kora y'umukara, akaba ari kumugorora amaguru.

Abantu bari mu mahugurwa yo gutanga ubutabazi bw'ibanze. Hari umuntu uryamye ku itapi y'ubururu, bigaragara ko ari we bari kwigiraho uburyo ki batanga ubu buvuzi bw'ibanze.

Imbuto ni ikiribwa cy'ingenzi mu buzima bwa muntu, cyane cyane ushobora kuyirenza ku biryo, ushobora no kuyifata urangije gukora imyitozo ngororamubiri, aha hari amaronji, imineke na pome.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari kwita ku murwayi wahuye n'ikibazo cy'imvune, afashe mu ivi ari kugenda amugorora kugira ngo imitsi ye yongere ikore neza.

Umugabo wumutse wakoze umwitozo, yambaye akajaketi ashyira ingofero mu mutwe, afite igicupa cy'amazi ari kuyagotomera bigaragara ko asoje imyitozo.

Umukobwa w'umwirabura, akaba ari ahantu hirengereye, ari kwigorora nyuma yo kurangiza imyitozo ngororamubiri kugira ngo imitsi yawe idahinamirana urabanza ukigorora.

Umukobwa wambaye agakora ndetse n'agasengeri by'umukara, yambaye na supuresi z'umweru. Yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kurambura amaboko ye akayakoza ku mano.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yari ari kwiruka ariko ageze aho ananiwe, biba ngombwa ko yunama yifata mu mavi kugira ngo abanze aruhukemo gakeya.

Mubazi igaragara ko ikiri shyashya, iruhande rwayo hari umugozi w'umukara, uyu akaba ari wo uyicomeka kugira ngo ibashe kubona amashanyarazi, ikabasha gukora neza.

Ni uburyo bw'imyitozo ariko yahariwe abantu bari bafite uburwayi, bakaba batangiye gukira, baba bari kukwereka uburyo ugomba kugira uburinganire mu myitozo yawe ukora.

Icyumba gikoraniyemo abaganga benshi, bakaba bari mu mahugurwa, haragaragara umuntu uri mu byuma bisakaza amashusho, akaba ari kubigisha hifashishijwe ikoranabuhanga.

Umugabo wavunitse mu ngasire y'ivi yambaye ipantaro y'ubururu akaguru kamwe aragahina kugirango abashe gushyiraho umuti mu kiganza cye afite umuti ugabanya ububabare.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi, kikaba kiri ahantu ubona ko utapfa kubona munsi kuko cyagandaye kiranarandaranda maze hose kirahapfuka.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukurwamo imiti, yaba iya gakondo cyangwa se icishwa mu nganda ikaba yavamo ibinini, byiganjemo igikakarubamba, indabyo ndetse n'ibindi.

Udukarito dutandukanye turimo imiti akaba ari tune, turi ahantu h'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu ridukikije, turimo imiti itandukanye ishobora kwifashishwa mu buvuzi.

Ahakorerwa imiti gakondo, haba hari ibimera bitandukanye, yaba ibiti, ibibabi ndetse n'ibindi, hari utuntu bagenda babishyiramo, babivangura bijyanye n'ibyiciro byabyo.

Ibimera bitandukanye bigiye biteretse mu tuntu tw'utubumbano, ibi bimera byose bikaba byifashishwa mu gukorwamo imiti, yaba ikorerwa mu ruganda cyangwa se imiti gakondo.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu bwerurutse, akaba ahagaze ari kwitegereza imbere ye. Iruhande rwe, hari udukombe tw'imiti itandukanye.

Ni umuti ufunze mu kantu kabugenewe k'agaparasitike ukaba usa umutuku, wavuye mu gakarito gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Agakarito gateretse ahantu h'umweru, kakaba karimo imiti itandukanye, hari iyakuwemo ikaba iri kugaragazwa uburyo umurwayi ashobora kugenda ayifatamo.

Uducupa turimo amavuta, imiti ndetse n'ibindi bitandukanye, hakaba harimo utw'ubururu, utw'icyatsi, tukaba twifashishwa mu buvuzi ndetse no mu kwitera imibavu yewe no mu kwisiga.

Uducupa turimo imiti itandukanye ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye ikorwa mu bimera bakunze kuyita imiti gakondo ariko si byiza kuyifata utabanje guca kwa muganga ngo bamenye indwara urwaye.

Ibikombe by'ibirahure bikaba birimo ibimera bashyizemo n'amazi mu rwego rwo kugira ngo bibashe kuba byakurwamo imiti, ni byiza ko ibi bintu mbere yo kubinywa ubanza gusuzuma ubuziranenge bwabyo.

Icyatsi kibisi kiri ahantu ubona ko gitoshye, gikoreshwa imiti itandukanye ariko hari n'abagikoresha nabi nk'ikiyobyabwenge, iyo byagenze bityo cyitwa urumogi.

Agacupa kari mu ibara ry'icyatsi, kari kumwe n'ikimera cyitwa igikakarubamba, iki ni kimwe mu bimera bikora imiti myinshi cyane, yaba ivura ibikomere ndetse n'ibindi.

ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, giteye ahantu, cyarasigasiwe kugira kizakure neza, ubundi kizavemo imiti izifashishwa mu buvuzi gakondo.

Agacupa k'umweru gateretse ku meza, kakaba karimo umuti. Gafite agapapuro kakometseho, kariho ibirango bigaragaza neza uwo muti ndetse n'icyo uvura.

Ibimera bitandukanye bishobora kuvamo imiti, ariko biba bigomba gukoreshwa n'umuntu ubizi neza kugira ngo bitagira ingaruka, hariho tungurusumu ndetse n'ibindi biribwa bishobora kuvamo imiti.

Akabati karimo imiti itandukanye igiye ivura indwara z'ubwoko butandukanye, harimo iri mu byiciro bifite ibikombe, bifite imifuniko y'umuhondo ndetse n'ibindi by'umukara.

Uducupa dutandukanye ndetse n'utubido turimo imiti, hari ikorwa mu gikakarubamba, ikaba ari yo yiganjemo, hari akabido k'umuhondo.

Ibimera ni ibyo kubungwabungwa ndetse no gusigasirwa, uretse kuduha umwuka duhumeka binavamo imiti yifashishwa mu gukora ubuvuzi butandukanye.

Ikimera cy'icyatsi kibisi, iki ngiki kikaba gikorwamo umuti ushobora kuvura indwara zitandukanye, iki kijya mu nganda kigatunganywa kikagaruka ari ikinini.

Ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti, bikaba biteretse ku gishyitsi, ibi ngibi bishobora ku kuvura indwara zitandukanye ariko ni ngombwa ko ubanza guca kwa muganga kugira ngo babe ari byo babikwandikira.

Uturabyo tw'iroza turiho utubabi tw'icyatsi, uru ni urumera ruvamo umuti gakondo ushobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ariko ni byiza ko ubanza kujya kwa muganga bakaba aribo bawukwandikira.

Agacupa k'umweru kariho ikindi kintu cy'ubururu, kakaba karimo umuti ushobora kunywa mu gihe ufite uburwayi, nyamuneka nuzajya urwara, jya wihutira kujya kwa muganga kugira ngo bakaguhe.

Ni imiti myinshi iteretse ku meza ariho igitambaro cy'ubururu. Uducupa tumwe twakoze itsinda dufite imifuniko y'icyatsi. Utundi dupanze ku buryo butondekanye natwo dufite imifuniko y'umweru.

Hateretse uducupa dutandukanye turimo imibavu, turimo imiti ndetse n'ibindi byinshi, ariko bimwe muri byo bikaba bikorwa mu kimera cy'igikakarubamba.

Ikimera cy'avoka ndetse n'igikakarubamba, ni bimwe mu bishobora gukurwamo imiti itandukanye, si ibyo gusa kuko havamo isabune, hakavamo amavuta ndetse voka yo ishobora kuba yanaribwa.

Utubido dutatu. Kamwe k'umuhondo utundi tubiri tw'umweru, iruhande hari utundi ducupa tuvamo umuti. Ukaba uturuka mu kimera kizwi nk'igikakarubamba. Iki kivamo imiti myinshi.

Ipapayi ni ikiribwa cy'urubuto ariko nanone kikaba cyavamo umuti, si ngombwa ko gica mu ruganda, iyo wabuze ukuntu ubona umusarani ukarya ipapayi, birakorohereza ukaba wawubona.

Hateretse ibyatsi byinshi ndetse n'udusekuru n'utundi tuntu twabugenewe dushobora kwifashishwa mu kwikorera umuti gakondo hari abantu badakunze kujya kwa muganga.

Ikibabi kiriho ibitonyanga, kikaba ari icy'icyatsi kibisi, ibi ni bimwe mu bikorwamo imiti itandukanye, yaba abavura gakondo ndetse n'abandi babicisha mu nganda bigakorwamo ibinini.

Icyatsi kibisi gitoshye gifite amababi, aya ngaya akaba akorwamo umuti, abazi ibijyanye n'ubuvuzi gakondo, aha ngaha bakuramo umuti ukaba wakuvura.

Agakombe kajyamo ibinini. Karasa umweru ndetse kandikishijeho amagambo atukura, kakaba iruhande rwako hari imiti ivura indwara zitandukanye.

Ikiyiko kiri kwarura amavuta, iruhande rwacyo hari ibibabi ndetse na tungurusumu, aha hantu hashobora kuba hagiye kuvugutirwa umuti ushobora kuvura indwara nyinshi.

Uducupa tubiri ducuritse turimo imiti itandukanye ishobora kuba ari iyo kwisiga kuko hari kugaragaraho amashusho y'abantu benshi bangiritse mu isura, bivuze ko iyi miti ivura ukwangirika kw'isura.

Agakarito k'umweru kanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, kamaze gukurwamo imiti iba ibitsemo utunini tw'umweru turi ku gapapuro, ibiganza by'umuganga ugaragara ko yambaye umupira w'umweru.

Ikimera kizwi nk'umuravumba ikigiki kivura indwara nyinshi zitandukanye , imiti cyangwa se ibinini uzabona bimwe biba byarakozwe muri cyo kikaba ari ikimera cyiza.

Uducupa dutandukanye ndetse n'udukombe turimo amavuta yo kwisiga ndetse n'imibavu, ni tune ariko ntago tungana, hari tubiri dutoya tureshya n'utundi tubiri tureture.

Igikakarubamba ni kimwe mu bimera bishobora kugira umumaro utandukanye. Cyavamo amavuta yo kwisiga, cyavamo umuti ndetse cyakorwamo n'imibavu. Ni byiza rero ko iki, tugisigasira kuko gifite umumaro.

Ikibabi gishobora kuvamo imiti gakondo, iyi ni imwe mu miti yifashishwa n'abantu benshi, ariko mbere yo kuyifata ujya kwa muganga bakabanza kugusuzuma bakayikwandikira.

Ibimera biri mu byiciro bitandukanye bikaba bivamo imiti gakondo, hamwe hari uturabyo tw'umutuku, urundi ruhande ruriho utw'umuhondo. Yewe hari n'ahari ibyatsi ndetse n'ahari utw'iroza.

Ibimera bivamo amavuta ndetse n'amasabune yo kwisiga. Hari iseri ry'umuneke ndetse n'inanasi yewe n'uturabyo, byose bikaba bivamo ibi twavuze haruguru.

Ibimera biri ahantu haba hatandukanye. Ibi akenshi nibyo byifashishwa, bigakorwamo imiti, iyi ngiyi ituvura indwara ziba zitandukanye. Buri kimwe kiba cyakozwe mu kimera.

Inanasi iraribwa ariko si ibyo gusa kuko ishobora kuvamo umuti. Ururabyo rwaba umutako ariko na rwo rwanavamo umuti. Ni byiza rero ko ibi bimera tuzajya tubifata neza.

Agakarito kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, harimo n'utundi tubara tw'icyatsi, kakaba gapfundikiyemo, mo imbere imiti ishobora gukoreshwa mu buvuzi.

Uducupa turimo imiti ya gakondo ikaba igiye mu mabara atandukanye, hari icupa rifite umufuniko w'ubururu rigiye ririmo imiti y'umukara.

Abantu babiri bahagaze umukobwa ndetse n'umusore, bakaba bakingirijwe n'ibyatsi, bagiye mu gishanga rero kwahira ibimera bishobora gukorwamo imiti gakondo.

Imiti gakondo ikaba ishashe ahantu ku mukeka, igiye iri mu ngemeri, ikaba iri mu byiciro bitandukanye, harimo iy'umweru, hari iyo bamaze gusekura n'indi itarasekurwa.

Udukarito tubiri, tukaba turimo utuntu dutandukanye tuvakamo imiti ishobora kuba ari iyo kwisigwa. Tugiye dupanze neza ku murongo, tumwe dufite imifuniko y'umukara.

Igikakarubamba ni ikimera cy'ingenzi cyane mu buzima kuko gikorwamo imiti itandukanye, gishobora kuvura ibisebe, gishobora no kuvura izindi ndwara.

Akabati gapanzemo imiti itandukanye, nuba ufite uburwayi nyamuneka ntukarembere mu rugo, jya ujya ahantu bacuruza imiti, maze bawuguhe urebe ko wazanzamuka.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru w'umudamu, afite imisatsi myinshi yayiboheye inyuma, hakaba hari aka etajeri karimo imiti gakondo, igiye ipanze mu byiciro bitandukanye.

Irerero ry'ibimera hari ahantu habugenewe abantu bagenda bashyira ingemwe z'ibiti ndetse n'ibindi byose bishobora guterwa bigakura, hari ibikurwamo imiti n'ibindi biduha umwuka duhumeka.

Icyumba kiberamo ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuvuzi, cyicayemo umuganga wambaye itaburiya y'umweru. Akaba yicaye ku ntebe y'umukara, ku meza hari udukombe turimo imiti ari gukoraho ubushakashatsi.

Ikigo gikora ibijyanye n'ibiribwa imiti ndetse n'ibindi bitandukanye, ni ngombwa rero ko igihugu kiba gifite ibice nk'ibingibi kuko ari ingirakamaro ku bagituye.

Amacupa agiye ari ku murongo, akaba arutanwa mu ngano. Amwe arimo ibinyobwa, andi arimo ibindi bintu bitandukanye by'ibirungo, bishobora gushyirwa mu cyayi.

Ibimera bitandukanye bikorwamo imiti, hari uducupa tubiri tw'ibirahure twamaze kuba tugeramo ibyo basoje gusekura, hari akantu k'umweru bashyiramo ibibabi ubundi bakabihonda.

Uducupa dutandukanye, udukombe ndetse n'utukarito, byose icyo bihuriyeho ni uko birimo imiti ikorwa mu bimera, bukaba ari ubuvuzi bukunze kwitwa gakondo, butangwa n'abantu babihuguriwe.

Igishanga kiberamo ubuhinzi bw'icyayi, hari abaturage babyukiye mu murima, bose baje kwita ku bihingwa byabo. Ni byiza ko abantu batera kandi bagasarura, ubundi umusaruro wabo ukajyanwa ku isoko.

Agacupa k'umweru gateretse neza, kakaba kajyamo imiti itandukanye, kariho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu ndetse n'utundi tumenyetso tugaragaza icyo uwo muti uvura.

Abantu baje mu gishanga ahatewe igikakarubamba, baje kugisura ngo barebe niba kiri gukura, ubundi gisarurwe kijye kwifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ikimera cy'ikibabi kikaba gikurwamo umuti ushobora kwifashishwa mu buvuzi gakondo, ni ngombwa rero ko aho tubonye ibi bimera tubisigasira kuko usibye ubuvuzi binatuma tubona umwuka mwiza.

Ibyatsi bivamo imiti gakondo, hakaba hari akasekuru bifashisha mu rwego rwo kugira ngo babikore bivemo ifu ubundi bijyane gutunganywa, bibone guhabwa abarwayi.

Ni akabati gahagaze karimo imiti itandukanye igiye iri mu ducupa turi mu moko atandukanye hari iri mu bicupa binini n'indi iri mu dukombe dutoya.

Imiti iteretse ku kameza ikaba ikorwa mu bimera cyane cyane umutiba w'ubuki uri inyuma yabyo hakaba hariho inzuki ,ibi byose rero bikaba bikorwa m’ubuki.

Agakombe karimo amavuta ariko akaba ari n'umuti, baragira bati "igisubizo kuri amibi" bivuze ko iyo inzoka zakuzengereje uyu muti urawufata ukawunywa ubundi ukagubwa neza.

Agacupa karimo umuti ukorwa mu kimera kizwi, izina ry'igikakarubamba. Iki gishobora kuvamo imiti itandukanye ivura indwara nyinshi.

Igikakarubamba giteye ahantu, iki kimera nukibona uzagisigasire kuko kivamo imiti itandukanye, gishobora kuvura ibintu byinshi kandi biba bikomeye.